Ni umuhanda wa kaburimbo nta kinyabiziga kiri gutambukamo, hakurya y'umuhanda hakaba hari inzu zikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye ndetse hari n'inzu ikinirwamo imikino y'amahirwe aho bizwi nk'aho batanga amafaranga kugira ngo yunguke vuba.

Bambukamo abantu bagiye batandukanye, harimo urujya n'uruza bamwe barazamuka abandi bakamanuka, hakurya y'umuhanda hakorerwa ubucuruzi bw'amabotike agiye atandukanye ndetse ahantu bigaragara ko nta binyabiziga bigomba kuhanyura.